Abagore n'abagabo bameze neza cyane, bari mu murima, bari kuvanga imbuto bahinze, hari abagabo babiri bambaye imipira y'icyatsi, n'amaboko maremare, bari gufata udusafuriya, bakavanga imbuto mvaruganda, kugira ngo babikorere bizagire isuku, bizere bimeze neza.

Umurima umeze neza urimo ibihingwa byiza, bigaragarako bahingishije ifumbire ry'imborera riboze bagashyiraho n'imvaruganda, harimo umuntu uri kubitera umuti kugira ngo ubusimba butaza kubyangiriza.

Umurima w'imboga zifite ibara ry'icyatsi uhagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara, n'ingofero y'umukara mu mutwe. Ahetse ipombo mu mugongo ari gutera umuti hagatutumuka ibintu bisa n'umweru. Ku nkengero z'umurima, hari ibiti bigufi bifite ibara ry'umukara.

Umurima uvangavanze imboga nyinshi garuka usorome pinari, ku nkengero z'umurima hari ibiti bigufiya, hari umugabo urimo wambaye bote z'umukara, ipantaro y'igitaka n'isengeri yayo, uhetse ipombo ifite ibara ry'umuhondo, ariko kuzifuhira kugira zimere neza ubusimba butazangiriza.

Agafuka karimo ibivangwa byinshi by'imvaruganda. Handitseho Urea, hejuru ya cyo hariho agatara kabigaragaza gifite amabara atatu icyatsi, umuhondo, n'umutuku.

Icupa ryanditseho amagambo afite amabara atandukanye. Ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara . Kuri aya magambo hari ibara ry'umweru ku mutwe risa n'umukara no hasi risa n'umukara.

Abagabo bari mu murima w'imbuto bambaye imyenda itandukanye. Bafite imbaraga, bari gukorere isuku imbuto, bifashishije ibase irimo umuti. Hari n'abandi bahagaze bari kubareberera ibyo bari gukora, bari no kubereka uko barashyiraho ifumbire.

Ifumbire yo guhinga imeze neza cyane detane ma mirongo ine na gatanu. Ni ifumbire y'imvange imeze neza cyane ibittswe ahantu hatandukanye, harimo akarongo ma mirongo ine na gatanu mirimita pake.

Ibintu byinshi byivangavanze, birunzwe ahantu hamwe bifite ibara ry'umukara. Birunzwe bitaringaniye, mo hagati harimo uruntu rw'umweru rwigonzemo, hagati harimo umukato. Hejuru yarwo hari ibindi bihirunze byinshi bikoze akanunga.

Ibiribwa byo kurya bimeze neza cyane, hari amafi atatu arambitse ku isorori ari ahantu hamwe, afite amababa hasi afite amaso manini. Iruhande rw' isiniya hari rushe yo kuyadahisha, hari n'ibirungo byo kuyakarangisha.

Amafi abyibushye mu nda abiri arunze ahantu hamwe. Afite ibara ry'umukara hasi ku mababi, mu mpande hari amacumu, akagira amaso manini n'utunwa dutoya. Uruhanga rwayo ni rugufi cyane.

Iyi ni isafuriya iteretse ku mashyiga, harimo ibiryo bitandukanye; karoti ,imboga ,ibitunguru tugiye kubiteka.

Aya ni amafi, ari mu gikoresho bifashisha mu kuroba, bayakuye mu mazi, bayarambika mu byatsi, yapfuye.

Ibijumba bifite ibara ry'umuhondo birunze ahantu hamwe ibinini n'ibitoya, ibinini hejuru harambitse ururabo rw'icyatsi biri ku isahani isa n'umweru iteretseho n'isafuriya yo kubitekamo. Iruhande rw'isahani hari amaronji abiri asatuye manini asa n'umuhondo.

Amafi meza neza cyane, afite ibara ry'umweru n'umuhondo bivanze, afite amababi ashwabaguye cyane ,arahanda afite amaso manini y'umutuku ,iminwa yayo irasongoye ifite udukoro hasi.

Ibi ni biribwa bitandukanye, harimo inyanya, amaronji asa nk'icyatsi n'inyama birateguwe.

Umurima w'ibihingwa bimeze neza, binanutse cyane bifite utubabi dutoya, amabara yabyo ni icyatsi, umuhondo avanze, n'umurima urambuye cyane muremure.

Ibihingwa bimeze neza bifite ibara ry'icyatsi, birunze ahantu hamwe ku mategeko. Harambitsemo imifuka irimo ifumbire, ifite ibara ry'umweru n'umukara. Hejuru y'uwo murima ku nkengero hariho abantu bahagaze.

Umurima uhagaritse ufite ubuso bungana na cumi na gatanu, uhinzwemo imboga zifite ibara ry'icyatsi, ku nkengero z'umurima hari ibiti birebire bifite ibara ry'umukara bihatondetse neza.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bigufi, hakaba harunzemo ibiti byumye bakaba baranze kubikurqmo. Ku nkengero z'umurima hejuru hari ibiti birebire n'ibigufi, hari ibipfukiranye cyane ku buryo ibyishema batapfa kukubona.

Umurima w'ibigori umeze neza, bigaragara ko bawuhingishije ifumbire iboze, bagashyiraho na mvaruganda. Biratoshye cyane, bifite amababi y'icyatsi, ku nkengero z'umurima hejuru harimo umuntu uri kubibagarira.

Urutoki rw'insina ndende zifite amakoma yigonze, zikagira umubumba ubumbye neza. Hejuru yazo haca urutsinga, muri urwo urutoke harimo urunani rukabije rumeze nabi, bigaragara ko izo nsina zititabwaho neza.

Umurima w'urutoki uhinze ahantu habi hadakoreye, urutoki ni rwinshi rura cucitse ruri ahantu hamwe, urundi ruhande hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi bigandaya cyane ku buryo utabona uko ubitema, kandi bifite umwanda ukabije cyane.

Imirima ibiri iri ahantu hatandukanye, umurima umwe uri mu gishanga uteyemo ibyatsi birebire by'urubingo byigondoye cyane biribwa n'amatungo. Hejuru yawo hari inzira irimo umuhanda uharuye cyane, impande y'umuhanda hari ibigori bihahinze birebire bifite imiterere y'umutuku.

Umurima w' urutoki rumeze neza cyane, rufite amababi atambitse na ahagaritse, inyuma yarwo hari ibiti birebire bicucitse cyane, ku buryo umuntu abyihishemo nta wababasha kumubona na gato.

Umurima uhinzwe neza ku buryo bushimishije, uhinzwe ku buryo bw'amategeko nta byatsi byinshi birimo. Hateyemo imbuto nziza zifite amababi mato agandaye, ku nkengero z'umurima hejuru hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhinzwemo ibintu byinshi: imboga, urutoki, ibitunguru, insina zifite amababi y'icyatsi n'umwumba muto wibumbabumbye, imboga zifite amababi agandaye afite ibara ry'icyatsi.

Umurima w'ibyatsi by'amatungo byinshi cyane bigufi ya byo kuribwa. Barabyahira bakabigaburira inka. Ku nkengero y'umurima hari ibiti birebire cyane ku buryo bizavamo imkwi zo gucana nyinshi. Iruhande hari amakoma ari kureguka kuburyo warica ukajya kuripfundikiza ibijumba.

Umurima uhinzemo imboga za pinari mo hagati hakaba harimo ubutaka hariho izitarameze, ku nkengero y'umurima hari ibiti bigandaye cyane bifite amababi magufi by'icyatsi.

inzu imeze neza yubakishije amatafari ikaba isakaje amabati, ikaba ifite idirishya ry'umukara hejuru hariho amakositara. Impande yayo hakaba hari ibiti birebire ni'ibigufi, imbere yayo hakaba hari insina imeze neza ifite amakoma y'icyatsi. Kure y'iyo nsina hakaba haziritse itungo, riri mu kinani riri kurisha ibyatsi.

Umurima uhinzemo amasaka magufi afite mu mutwe hasa n' umweru, hahagazemo abagabo babiri. Umwe yambaye agapantaro k'umukara n'agapira k'umweru. Barahagaze bari kureba amasaka yabo uko ameze. Ku nkengero z'umurima hejuru hari ibiti birebire bigandaye.

Ibishyimba by'imiteja miremire bimeze neza, bifite ibara ry'icyatsi, ku mutwe ha yo hakaba hariho ihwa, birunze ahantu hamwe hameze neza, kugira ngo bizaribwe bifite isuku, ubibonye wese abyishimire.

Umurima w'imboga za pinari, zitoshye cyane, ku buryo uzibonye wese, abona ko bahingishije ifumbire mvaruganda, n'imborera ziboze. Zifite amababi mato mato, aringaniye, ni agati kananutse.

Ibihingwa bimeze neza cyane, birunzwe ahantu hamwe ku buryo bucucitse, bifite imisogi y'umutuku isongoye miremire, bikagira utubabi duto duto dusongoye tureture n'ibiti byabyo binanutse.

Ibijumba binini cyane bifite ibara ry'umutuku, bifite inkondo ntoya. Birunzwe ahantu hamwe byo kuribwa, mu nda bifite ibara ry'umuhondo, ubibonye wese arabyishimira akifuza kurya ibijumba, bitewe n'ibyo ari kureba.

Umurima w'imbuto zo guhinga, imboga nini cyane zifite ibara ry'icyatsi ndende. Hari kwirukamo intama mu murima zifite ibara ry'umweru, inini n'intoya. Utwana twazo turaryamye, twananiwe kugenda.

Umugabo umaze gukura ugeze mu za bukuru wambaye ikote ry'umutuku utereye isuka ku rutugu wambaye ingofero .Ari guseka cyane aranezerewe ,agiye guhingira umurima we ngo arebe ko yazibeshaho , akagira ejo heza hazaza.

Umuceri wo kurya umeze neza cyane, urunzwe hamwe kumufuka w'umweru, urunzwe ahantu hatuje hafite umutekano uhagije, ku buryo ntawawusitaraho awugezeho ngo awangirize ngo abashe kuwumena.

Ibigori byiza bifite ibara ry'icyatsi , bihetse imigori ifite imisatsi yumutuku, birashimishije cyane ku buryo ubirebye wese abyishimira , kubera ko babihingishije ifumbire mvaruganda n'ifumbire ry'imborera riboze cyane.

Umurima umeze neza uhinzemo imboga, uhagazemo abantu benshi abagore n'abagabo, hari umugabo uhagaze imbere yabo mu murima hagati ari kubabaza ibibazo maze bakazamura ukuboko bakamusubiza.

Iki ni icyayi abantu barimo bari kugisoroma bafite ibikapu, barigushyira mu bikapu biruzuye, bararangiza kubisoroma babijyane mu rugo.

Imboga z'amashu, uruboga rumwe runini cyane, rufite amababi agandaye mu mutwe rwibumbabumbye cyane, rufite amababi y’icyatsi n’umweru bivanze, izuba ruri kurivaho cyane.

Ibyo kurya byiza cyane birunze ahantu heza ku mbuga, imbuga isa neza. Bifite ibara ry'umuhondo hari n'ibindi biri mu mufuka banze kwanika, kugira ngo izuba ritabyica cyane kuko ni ku mucyo ugaragara neza.

Abagore bane bakenyeye udutenge bakitega utundi. Bahinze umurima w'ibirayi, bawurimo, barunamye, bafite amasuka. bari gukura baterera ibirayi bifite ibara ry'umweru, inyuma ya bo.

Ibitunguru birunzwe ahantu hamwe bifite ibara ry'umutuku n'umweru harimo udukase duto duto dukozwe nk'imigati turi imbere y'ibindi binini birambitse, bifite agatwe kibundugurije mo hagati harimo imikato minini cyane.

Umurima uhinzemo imboga kumitarasi, buri mutarasi hatondetseho imboga nziza cyane zifite amabagra agandaye iboga ngufiya, hagati mu murima hari igiti gifite ibara ry'umukara kibyibushye.

Umurima w'imbuto zimeze neza cyane zifite ibara ry'icyatsi. Hari umugabo urimo wambaye ikote ry'umukara, ingofero y'ubururu n'agatebo mu mugongo gafite umugozi, ukoze mu mutwe. Yunamye mu mbuto ari kuzikorera isuku, asoroma ashyira mu gatebo kari mu mugongo.

Ibihingwa bimeze byo kurya bifite ibara ry'umutuku, ni ibihingwa bibwataraye cyane, bicuritse hasi ku butaka, bifite inkondo isa n'icyatsi, yigondoye cyane.

Imyumbati imeze neza cyane, ni imyumbati minini, miremire, iby' ibushe, ifite agatwe gato gasongoye, irunzwe ahantu hamwe hatuje hafite umutekano ku buryo kuyirya bitakugora.

Igitoki kirekire cyane gisa n'icyatsi. Gifite inkingi ndende eshatu z'ibiti, iruhande rw'inkingi hari umugabo uri kugenda wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero mu mutwe.

Inzu yubatse mu gishanga, yubakishije amategura, ikikijwe n'ibyatsi byinshi cyane ibigufi ni'ibirebire, hari n'ibiti bifite ibara ryumukara. Muri icyo igishanga harimo inzira ntoya.

Imbuto nyinshi zo kurya zimeze neza zifite isura ku buryo uzibonye wese azishimira. Hari intoryi zifite ibara ritoto n'intoryi zisa n'umutuku zifite inkondo ku mutwe hejuru ku buryo uzibonye wese yazishimira akifuza kurya intoryi n'inyanya.

Ibyoku kurya by'imyumbati bimeze neza cyane, birambuye ahantu ku mbuga hafite isuku. Hari umugore urimo kubiyorera mu mufuka ukennyeye igitenge, yiteze ikindi cy'umutuku, hari n'amagare aje ku bipakira n'abantu barayatwara bahagaze, bari kurebera uwo mugore.

Umukobwa usa n'inzobe, wambaye ishati y'umweru isatuye imbere n'akagofero mu mutwe. Afite imisatsi izingazinze, yambaye amaherena y'umweru ku matwi n'umudari mu ijosi. Ari impande y'inzu y'inyubako ikikijwe n'ibimera bifite ibara ry'icyatsi.

umurima w'imboga z'amashu afite ibara ry'icyatsi, amababi yazo aragandaye cyane. Harimo abagore bane bari kuyasoroma bose bakenyeye ibitenge. hari umugore umwe wambaye agapira k'ubururu, ufite umusatsi usokoje neza, arambuye amaboko ari guseka yishimye, ari guca imboga.

Ibiribwa bimeze neza cyane bifite ibara ry'icyatsi, biri ku giti bifasheho, igiti cyagondamye kubera imbuto. Ni avoka nini cyane zifite inkondo hejuru, hasi zirabyibushye cyane.

Iki ni icyayi harimo abagore n'abana bari gusoroma icyayi, bafite ibitebo bari guseka ba.

Ibihaza inyuma bifite ibara ry'icyatsi, mu nda bikagira ibara ry'umuhondo, n'inzuzi z'umukara. Birasatuye birunze ahantu hamwe, hameze neza ku kirago, gifite ibara ry'umweru.

Imyumbati myiza imeze neza ibyibushye, iminini n'imitoya. Hari iri ku giti ibyibushye cyane, igiti gifite utuntu tw'uduhiro hejuru, tw'uduheri dushinzeho.

Abagabo n'abagore bahagaze mu murima n'amaguru, bari kureba uko baraca amaterasi, bagatera ibyatsi, impande y'uwo murima hari ibiti birebire by'icyatsi bya Shipure, muri uwo murima hari inzira zitandukanye zitambitse n'izihagaritse.

Umurima w'imboga zimeze neza cyane, zigaragara ko bahingeshije ifumbire mvaruganda n'imborerara iboze. Uhagazemo umugore n'umugabo bari gusoroma, abandi bahagaze ku nkengero benshi cyane. Bari kurebera abo bari gusoroma bitwikiye imitaka, kuko imvura iri kugwa. Ku nkengero z'umurima hejuru hari ibiti birebire cyane.

Igitoki cyo kurya cyegetse ahantu gifite ibara ry'umuhondo, amabere maremare cyane, birunzwe ahantu hamwe ku biseri hari igihaguyeho kiri iruhande hasi.

Umurima w'ibisheke munini cyane utambitse, ufite ibiseke bifite ingingo z'umukara n'umutuku birebire, bifite ibyatsi bigandaye bifite ibara ry'icyatsi, birasongoye cyane.

Ibyo kurya bimeze neza bifite ibara ry'icyatsi, intoryi, amapera, n'amatunda. Hari n'biriri mu mufuka bifite ibara ry'umweru, hari ubyicayemo wambaye ishati, umupira w'umutuku, ufite umusatsi mwizashi, arebye hejuru, ari kureba ibyo ahitamo.

Umurima w'ibigori umeze neza cyane ibigori bitoshye bikorewe ku buryo bwiza bashyizeho ifumbire riboze na mvaruganda. Hahagazemo umugabo wambaye ipantaro n'ishati y'umweru n'ingofero y'umukara ikizuru kirebye inyuma ari kureba ko nta konka zirimo abikora mu mitwe yabyo.

Umugabo mwiza w'inzobe ufite umusatsi w'umukara, yambaye ishati y'umweru, yahinze umurima w'ibigori bimera neza birera, iruhande rw'umurima w'ibigori hari ibiti by'intusi birebire, muri ibyo bigori yateyemo inzuzi z'ibihaza ibihaza ari kubisarura none ari kubyerekana abigurisha.

Inyanya nyinshi cyane, zirunzwe ahantu hamwe, zifite ibara ry'umutuku, zikagira inkondo y'icyatsi, harimo urunyanya rumwe rusatuye ,ku buryo urubonye wese arishimira gufata urunyanya ngo ajye guteka.

Ibiryo byo kuribwa bimeze neza cyane, hari inyanya nini ziri ku siniya zifite ibara ry'umutuku, hari n'inyama nziza zikase neza ndetse n'amavuta yo kuzitekeramo, ari mu ka cumi n'atanu , aka cumi n'atanu gafite umufuniko w'umutuku.

Izi ni inkoko, uyu ni umworozi wazo, afite ibase arikuziha amazi. Iyi ni inzu zibamo, iyi nsina iri ahantu ziri kunywera amazi.

Aba bantu ni abagore n'abagabo bari mu murima. Bari gukorere ibyo bahinze, abandi barahagaze.

Umurima umeze neza cyane, ufite igiti cy'avoka gihagaze muri uwo murima, igiti gifite avoka eshanu mu giti, gifite amababi atandaraje, avoka ni nini cyane zifite ibara ry'icyatsi.

Umurima w'ubuhinzi umeze neza uteye ku mirongo itandukanye ku dutarasi udutarasi twinshi cyane. Hejuru yacyo hari umurima urimo indege ifite ibara ry'umweru, uruzuru rw'urukara runini.

Imbuto zo kurya zimeze neza zifite ibara ry'umukara n'umutuku bivanze, ku mutwe zikaba zifite inkondo ndende ifite ibara ry'icyatsi. Zifashe ku biti bifite amababi y'icyatsi yigondoye magari cyane.

Ibyo kurya bimeze neza cyane birunzwe ahantu hamwe hafite isuku. Ibihaza, amapera, avoka, amatunda byinshi cyane. Hari abagabo bahagaze n'abagore bagiye kugura imbuto zo guteka ngo bajye kurya.

Ibyo kurya bimeze neza cyane bishimishije amaronji. Ni manini cyane aragaye, arayabyataraye, akozwe nk'uruziga. Hejuru yayo afite inkondo. Izo nkondo zifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Ibyokurya bimeze neza bifite ibara ry'umutuku, birunzwe ahantu hamwe hatuje, hari umugore urimo kubiyora abifatisha ibiganza byombi intoki z'uko ari icumi, abireba mu ntoki kwari byiza.

Abagore bane n'umugabo umwe wa gatanu. Abagore bambaye imyenda y'imikara, biteze udutambaro tw'umweru bose. Umugabo yambaye ishati y'umweru, yambaye ingofero mu mutwe. Bose bari guseka barishimye, bafashe ibyo bahinze mu ntoki bari kubiratira buri wese.

Intoryi zo kurya zifite ibara ry'icyatsi, zikagira inkondo ntoya ku mutwe. Zirunzwe ahantu hamwe hameze neza ni ku muce zuba riri kuva cyane ziri kuma

Umurima w'imboga nyinshi cyane ucucitse ku buryo buhagije. Imboga zifite ibara ry'icyatsi, umukara. Zirashishe ku buryo bigaragara ko bazihingishije ifumbire mvaruganda n'imborera iboze cyane.

Uyu n'umugore asa nk'igikara yambaye ishati yikenyeje igitenge ari mu murima urimo ibihingwa bisa nk'icyatsi arikubikoraho.

Umugabo umeze neza, wambaye ishati y’umweru n’ipantaro y’umukara, yahinze inyanya zimeze neza cyane. Ari kuzisarura yifashishije agatebo, akagenda asuka mu mufuka usa n’umweru. Amaze kurunda imifuka itanu yuzuye ku buryo uzibonye wese arazishimira, akifuza kuzigura.

Imbuto yo guhinga imeze neza iri mu mufuka w'umweru. Ni imifuka ine iri ahantu hegeranye cyane, yuzuye iratumbagiye ku buryo kubiyora bitakugora, ugafata vuba ukihuta.

Umurima uteyemo ibishyimbo bifite ibara y'umutuku, ibishyimbo byarameze bigira imizi birazamuka bigeze hejuru birigonda bisambura amababi afite ibara y'icyatsi.

umuhinzi umeze neza cyane, wambaye agapira k'umukara gafite ikora riryamye, yahinze ibihingwa by'ibishyimbo arabisarura, abihambira neza n'imigozi ayipakiye ku igare arabitwaye abijyanye mu rugo ari mu muhanda umeze neza cyane.

Imbuto yo guhinga imeze neza, ifite ibara ry'umweru, ubunyobwa. Bufite agati kazamuye, gasororotse, gafite amashami hirya no hino, hasi gafite imizi isobekeranye, isobetse ku bwinshi.

Umugabo muremure wambaye ishati isa atuye imbere, ifite dozayini ku maboko ibara risa n'umweru, arahagaze yambaye ibirenge afite imbuto y'imyaka yahinze, ifite ibijumba hasi hejuru ari ibiti birebire bicuramye.

Inzu y'amatafari isakaje amategura ifite amadirishya y'ibiti, imbere yayo hari imbuga isije neza hari umugore ukenyeye igitenge cy'umuhondo. Yambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi yiteza ikindi cy'umuhondo ari kugosora imyaka yahinze yifashishije intara.

Umurima umeze neza w'imbuto y'amasaka, harimo abakobwa babiri bambaye amapantaro y'umutuku, biteza n'udutambaro. Imbere yabo hari akabase bari gusoroma imbuto banagamo, ibase ifite ibara ry'umukara, barahagaze bemye bari kuyitoranya neza

Ibihingwa bimeze neza by'ibihwagari, bihinzwe ku mategeko bigakura bimeze neza, bikazamuka ku mutwe bifite uruziga, rukikijwe n'ibara ry'umuhondo imbere ari umukara. Nyuma bagashyira ku mutwe amasashi batwikira urwo rurabo, kugira ngo inyoni zitaza kubyangiriza zikabyonona.

Imbuto yo guhingwa ifite ibara ry'umweru ikoze akantu k'uruziga irarundanye cyane ku buryo kubiyora bitagorana, iri mu kantu ko kubibikamo gafite ibara ry'igitaka gakozwe nk'agasanduku.

Imbuto yo guhinga y'amasaka iri ku biti birambitse hasi, irarundanye cyane ku buryo kuyitoragura itakunanira, iri ahantu h'ubutaka bumeze neza cyane, hasukuye hafite isuku ihagije.

Ibishyimbo bimeze neza bifite ibara ry'umweru n'umutuku birunzwe ahantu hamwe, ahantu harunzwe harimo ibice bitatu birunzwe ku bice bibiri gusa, icya gatatu nta bihari hari ibitonoye biri mu gishishwa bifite ibara ry'umutuku, n'ibidatonoye bikiri mu gishishwa cyabyo.

Ibigori bitatu birunzwe ahantu hamwe, bikagira amababi y'icyatsi, buri kigori gifite imirongo ihagaritse n'itambitse by'amasaro, bifite ibara ry'umuhondo n'umweru bivanze.

Ibishyimbo birunzwe hamwe cyane hariho ibitonoye n'ibidatonoye, ibitonoye bifite ibara ry'umweru bikagira ijisho rimwe, ibidatoye biribumbye cyane bifite inkondo hejuru hasi bikagira akantu gahanda, hari igishyimbo kimwe gitonoye cy'igisate kimwe gifite ibishyimbo bitatu.

Imbuto y'ibihingwa, ubunyobwa bufite ibara ry'umweru biri ku biti byabyo birahagaritse. Ibiti birazamuye bifite amashami hirya no hino, hasi hari imizi igiye isobekeranya kuri buri giti.

Imbuto zifite ibara ry'umweru zirunze ahantu hamwe hameze neza hafite isuku, ziracucitse ku buryo kuziyora bitagora umuntu, ni imbuto duto duto cyane ku buryo kutubonesha amaso bigoranye.

Umuhanda mwiza ufite ibiti bitandukanye ibirebire n'ibigufi, hakaba hari na geti y'ibyuma bihagaritse byagera hejuru bikigonda, hakaba hari n'utundi dutambitse iyo geti ikaba ikikijwe n'ibyatsi by'icyatsi, impande ya geti hakaba hari indabo z'umutuku.

Imbuto y'ibishyimbo isa n'umutuku ikagira amaso y'umweru, irunzwe ahantu hamwe ku isahani ifite urugara rw'umweru, iteretse ku ibati ry'umukara rifite ibihiri binini cyane.

Ibi ni ibishyimbo bifite amabara atandukanye, umweru, umuhondo, umukara, umutuku biri hamwe.

Umurima ukorewe neza ku buryo bwemewe n'amategeko, hateyemo igiti cyiza gitoshye gifite amababi matomato atagandaye, kizamutse ku buryo bwiza kizana indabo z'umuhondo, mu mutwe wacyo kiribumbabumbye.

Umurima umeze neza uteyemo ibitunguru bifite ibara ry'icyatsi, bikagira indabo z'umweru, harimo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'ingofero w'umukara n'ingofero y'umweru, ari kuzikorera isuku yunamye yitonze cyane.

Ibigori bimeze neza cyane biri mu buhunikiro bwabyo. Ubwo buhunikiro bukaba bufite ibipande bitatu, buri gipande kikaba gifite imirongo itandatu itambitse, ibigori bisa n'umweruru cyane, bigaragara ko byahingishijwe ifumbire, bikaba byareze bifite igisaro kinini.

Imbuto y'amajeri ifite ibara ry'umweru n'umukara bivanze, igira amaso matoya asa n'umukara, arunzwe ahantu hamwe aranitse, izuba riri kuva cyane.

Imbuto zo guhinga zimeze neza cyane zifite ibara ry'umuhondo ni inzuzi zifite umubiri ubyibushye, ku mutwe wazo ni gatoya hari n'izindi ziri hasi zinyanyagiritse cyane ku buryo wazitoragura ukazishyira ku zindi.

Umurima w'ubuhinzi bw'imbuto buhinze ku murongo neza bufite ibara ry'icyatsi. Biri mu matarasi atandukanye, amatarasi ane. Iruhande rw'ayo matarasi hari ibiti birebire cyane, bifite ibara ry'icyatsi.

Umukecuru wahinze umurima w'imbuto z'amasaka. Akaba azirimo ari kureba niba inyoni zitaziriye, yiteze agatambaro k'umutuku, yambaye agakote k'umukara, ari inyuma y'igiti. Afashe amasaka mu ntoki, ari kureba ko yeze ngo ayasarure.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo n'abana, bari kuyora imbuto yo guhinga y'umweru y'ibigori bifashishije udufuka, harimo umugabo umwe wambaye ubusa, ari kureba imbuto ko zimeze neza, n'umugore wambaye ijipo y'ubururu irimo ibara ry'umuhondo.

Imbuto yo guhinga ya majeri, ifite ibara ry'umweru, irunze ahantu hamwe ku nkoko, mwo hagati harimo ibiganza biyibumbatiye, biyifashe biri kuyirata.

Imbuto y' ibishyimbo bimeze neza cyane, bifite ibara ry' umuhondo n' umweru, biri ku isahani y' ubururu birunzwe ahantu hamwe cyane, biranitse hari umugabo uri kubyanura yifashishije ikiganza afashe isahani, mu ntoki kugira ngo imvura itabinyagira.

Imbuto yo guhinga imeze neza cyane, hari ibara ry'umutuku, umweru, umukara n'icyatsi, birunzwe ahantu hamwe, hari ibyiciro bitandukanye, hari n'ibindi biri mu mabasi ane umutuku, umweru, icyatsi, umukara, amabasi agiye aringaniye.

Inka iri mu kiraro iri kumwe n'umushumba wayo, ifite amahembe maremare, umushumba wayo ari kumwe nayo ari kuyikorera isuku.

Abagore bicaye ahantu hasi mu mucaca. Umucaca bicayemo harimo ibyatsi, iruhande rwe hari inzu y'ibiti isakaje amabati y'umweru. Inyuma y'inzu hari ibiti birebire maze hagati hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara arikubaganiriza.

Ibiribwa bikomoka ku matungo y'inkoko amagi afite ibara ry'umutuku ,arunze ahantu hamwe mu dukarito duciyemo ibice byinshi, udukarito turi ahantu hamwe harundanye cyane dukoze umujyo umwe.

Abantu batatu bambaye amashati y’ubururu hejuru, hasi bakambara amapantaro y’umweru. Abagabo babiri n’umugore umwe uri hagati. Umugore afite umusatsi uzamuye cyane, bifashe neza, bari guseka, barishimye, baranezerewe.

Ingurube ifite ibara ry'umweru, amatwi yayo arahagaritse, iryamye hasi yabwagu ibyana byinshi birikonka, impande yayo hicaye veterineri, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ari kuyireba ari kuyitaho ngo ibyana byonke neza.

Ingurube enye zifite ibara ry'umweru, amatwi aryamye, amaguru ane akoze hasi, imirizo mitoya. Ziri kurya ibyo zasize mu kiraro ariko zimeze nabi cyane, kubera zititaweho na veterineri ngo azihe ikinini cy' inzoka.

Amatungo magufi yorarerwa mu rugo, inkwavu zisa n' umweru zifite amaso y'umutuku, zifite amatwi ahagaritse, zimeze neza ku buryo uzibonye wese yifuza korora inkwavu, kubera ko zibona ibyo kurya bihagije.

Iyi ni ingurube iri mu kiraro cyubakishije ibiti, yabwaguye ibyana icyenda biri konka yo iryamye.

Ingurube yabwaguye ibyana byinshi cyane, iryamye hasi, ifite amatwi maremare, isa n'umweruru cyane. None ikaba itegereje veterineri kugira ngo aze ayitere urushinge, ibashe guhaguruka yonse ibyana neza.

Inzu yubatse ifite urugi rw'amabati atambitse utuntu mo hagati. Imbere y'inzu hari ihene nyinshi cyane zifite ibara ry'igitaka, umukara, umweru. Amatwi yazo arebye imbere. Hari umugabo urimo wambaye ishati y'umweru, asigagatiye ihene, ari guseka aranezerewe.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi. Impande y'ibiti hari ingurube nyinshi zifite ibara ry'umweru, amatwi yazo araryamye. Hariho iziryamye, izindi zirahagaze ziri kurisha ibyatsi.

Ibyo kurya bimeze neza bifite ibara ry'umuhondo n'umweru bivanze. Hahagazemo umugore wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, n'ikaramu ku mufuka imbere, afite imisatsi miremire iryamye y'umukara.

Itungo rimeze neza cyane ribyibushye ku rwego rushimishije, itungo ry'inkoko rifite umunwa usongoye rikagira ijisho ry'umukara, umutwe wayo uribumbabumbye, ukagira amaguru y'umutuku n'inzara ndende cyane, ihagaze ku giti icyo giti kirambitse ahantu hafite ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inyoni isa nk'umuhondo, ifite amababa ikagira n'umunwa w'umukara, ihagaze ku cyari iri ku cyubaka yifashishije ibyatsi.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara nini cyane. Ifite ubwoya bwinshi butandukanye, umweru n'umukara. Ifite intoki eshanu zitandukanye n'inzara ndende kuri buri rutoki.

Inyamaswa nini cyane ifite amaga mu mugongo umubiri wose ifite amaga, ifite amaguru ajanjaritse cyane afite inzara ndende. Ni igikeri gifite amaso manini y'umukara kiri ahantu h'ibyatsi hatuje cyane.

Inyamaswa nini cyane iri mu murima w'ibyatsi bimeze nk'urubingo. Ifite umunwa munini, ifite amazuru matoya. Ku munwa wayo ifite utuntu tw'udusatsi twinshi cyane ducucitse. Ifite uruhanga runini n'amaso manini, udutwi twayo ni dutoya cyane.

Inyamaswa nini cyane yo mu ishyamba, ifite uruhu rukomeye, iri ahantu hatuje, iraryamye irasinziriye, irashonje yabuze ibyo irya, itegereje ko yabona ibyo kurya.

Inyamaswa zimeze neza, zibyibushye, zifite ubwoya bwinshi mu maso zifite utwiso dutoya, utunwa duto n'utuzuru. Ziri kwirukanka cyane ziruka mu murima uhinzemo imbuto, zibivundagura cyane.

Inyamaswa ngufi cyane, ifite ibara ry'umweru mu mugongo, ikagira ibara ry'umukara inyuma ku bibaba, ifite amaguru ananutse cyane ikagira, umunwa muremure usongoye, n'amaso matoya. Ihagaze mu murima w'ibyatsi bitoshye cyane.

Igisiga gisa n'umukara gifite ibara ry'umweru mu bitugu, gifite amababa ashwabaguye cyane, kikagira umunwa usongoye, kikagira ijisho rinini ribirinduye, kikagira amaguru akoze hasi ku butaka, ataringaniye neza.

Inyamaswa zifite ibara ry'umukara n'umweru bivanze zikagira ijosi rirerire, umunwa w'umutuku, amaso matoya y'umukara. Zifite ibirokoroko by'umutuku biri hasi ku kananwa amaguru yazo arananutse cyane zihagaze ahantu hamwe mu byatsi bitoshye cyane.

Inyamaswa nini cyane ifite umugongo witse hasi, ifite umuzozi munini, n'umuwa muremure, ifite ibara ry'umutuku, ifite amaguru y'umutuku ajanjaritse. Inyuma ifite ibirokoroko birebire, ihagaze ku giti gifite amababi magufi y'icyatsi.

Inyamaswa nini yo mu ishyamba ifite amazuru nk’ay’abantu n’iminwa y’abantu, ikagira uruhu rukomeye cyane mu mugongo, rusa n’umuhondo imbere rw’umukara, ikaba ishonje cyane. Ikaba iri kureba hakurya ngo irebe ko hari uwayizanira ibyo kurya, ikamubura.

Inyamaswa nto iringaniye ifite ibara ry'igitaka, ikagira umutwe w'ibumbabumby, ikagira amaso asa n'umutuku akanuye cyane, ikagera akanwa gato, n'utuzuru duto, ifite ururizo runini, utuguru duto. Yahagaze mu murima w'ubutaka itegereje ko yabona ibyoku kurya none yabibuza.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara, mu maso ikagira imisatsi y'umweru, ikagira amaso ameze nk'ay'abantu n'amazuru, iminwa yibumbabumbye cyane, ihagaze ifashe ku giti, igiti gifite amababi agandaye.

Inyamaswa y'inyoni ifite inzara ikabije. Ihagaze ku giti ireba hakurya kugira ngo ibone ko yabona ibyo kurya. Igiti kiri ahantu hejuru, iruhande rwayo hari ibiti bihagaritse cyane, hakurya yaho hafite ibara ry'ubururu.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara, ikagira ubwoya buryamye cyane. Ifite umunwa muremure cyane, ifite utwisho dutoya n'agatwe gatoya ikagira umujosi muremure. Ifite amaguru ananutse cyane ihagaze mu byatsi bitoshye bifite ibara ry'icyatsi.

Inyamaswa ifite umusozi muremure wigondoye, ikagira umunwa muremure usongoye, ikagira amaso matoya mu mutwe hari umusatsi muremure, ifite amaguru magufiya ananutse cyane, ihagaze mu mazi.

Inyamaswa nini cyane ifite ibyoya bisa n'igitaka, umukara n'umweru bivanze cyane. Iri mu gihuru cy'ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi, kuko yashonje yabuze ibyo irya.